Itangazo rivuga ko ubuyobozi bwa Nyagatare bumenyeshe abaturage bose ko mu rwego rwo gusoza umwaka no gutangira undi hateganyijwe igikorwa cyo guturitsa urufaya rw'urumuri faya wakisi kuri epiki hoteli, rikaba risaba abaturage bose kutaza kwikanga kuko ari igikorwa kigamije kwishimira umwaka mushya, rigasoza rigira riti umwaka mushya muhire wa bibiri na makumyabiri na gatanu.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abantu benshi batandukanye abagabo ndetse n'abagore. Imbere yabo hahagaze umubyeyi wambaye amadarubindi ndetse n'imyenda yiganjemo ibara ry'ikijuju. Iburyo bwe, hari icyapa cyanditseho ngo twirinde n'ibindi byinshi munsi. N'ibumoso nabwo hari ikindi cyapa cyanditseho USAID n'ibindi byinshi munsi. Hakaba hari n'insakazamashusho ku rukuta iri kumufasha kubabwira ibyo yabateguriye.

Ihema ryera rifite amabara yo mu ibendera ry'Igihugu ku ruhande. Ariyo icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu. Muri iryo hema hicayemo abantu batandukanye. Harimo n'inzego z'umutekano nka polisi ndetse n'igisirikare. Abo bantu bari mu nama runaka hari ibyo bari kuvugaho.

Abantu batanu bicaye bazengurutse ameza, muri abo bantu harimo abategarugori babiri ndetse n'abagabo batatu, inyuma yabo hari icyapa kigari cy'ubururu cyanditseho mu magambo y'umweru bimwe mu byanditseho biragira biti "bikorere mu isibo" gutanga mituweli, kwizigamira muri ejo heza, kwicungira umutekano, kurwanya ibiyobyabwenge, kwitabira siporo, kugira isuku hose, guhiga no guhigura.

Umugabo uhagaze ufite indangururamajwi mu ntoki ze y'umukara, yambaye isaha mu kaboko ke k'ibumoso, yambaye ishati y'amaboko magufi ifite amabara y'ingwe ahagaze imbere y'abantu ari kubabwira, inyuma ye hari undi mugabo uhicaye wambaye ishati y'ubururu juru ndetse hari na mudasobwa ndetse n'insakazamashusho ku rukuta.

Abantu benshi batandukanye, bari mu cyumba cy'inama, muri abo bantu harimo umugore umwe w'inzobe uhagaze, ufite indangururamajwi mu ntoki ze y'umukara urimo uravoga, ameze nk'uri kubaza ikibazo, yambaye ishati irimo imirongo y'umweru ndetse n'umukara.

Umugabo uhagaze wambaye ingofero y'umukara ndetse n'ishati y'umukara. Afite indangururamajwi ndetse yambaye isaha ku kaboko ke k'ibumoso. Ahagaze imbere y'abantu ari kuvuga. Imbere aho ahagaze, handitse amagambo agira ati inteko rusange y'umuryango. Bikaba bigaragara ko ari uyu mu ryango wa FPR wateranye, bari kuganira bungurana ibitekerezo nk'abanyamuryango.

Abantu batandukanye, abagabo, abagore, bicaye mu cyumba k'inama bakurikiye uri kuvuga imbere, imbere yabo kandi yateretse amazi yo kunywa akorwa n'uruganda rw'Inyange, muri bo kandi yicaye umubyeyi wambaye amadarubindi ndetse n'imyenda y'ubururu.

Abantu benshi bitabiriye ibirori, hagati muri abo bantu, hari abategarugori batatu bari kubyina kandi bigaragara ko bari kubyina imbyino gakondo, mu mbyino gakondo dushobora kuvuga tugire iwacu ino aha a mu Rwanda, harimo igishakamba, ikinimba, guhamiriza ndetse n'ibindi.

Abategarugori bakenyeye ndetse bari gukoma mu mashyi, harimo umwe ufite indangururamajwi uri kuririmba ndetse inyuma yabo hari n'umukaraza ufite imirishyo mu ntoki ndetse n'ingoma ariko kuvuza bakaba bari kubyina imbyino gakondo za kinyarwanda.

Abantu benshi bicaye mu nzu y'ibirori. Iruhande rwabo hagiye hateretse ibyo kunywa by'amazi ndetse na ji. Imbere yabo hari gutambuka abantu bameze nk'aho bari mu birori byo gusaba ndetse no gukwa. Aho umukobwa atambukana na musaza we ngo bamushyikirize umuryango wamukoye.

Icyumba cyabereyemo ibirori, muri icyo cyumba harimo abantu benshi batandukanye abagabo ndetse n'abagore, hagati y'abo bantu harimo abakobwa bari guseka neza ndetse bambaye imyenda yera bari kubyina imbyino gakondo, mu mbyino gakondo tugira iwacu mu Rwanda harimo ikinimba, igishakamba, guhamiriza ndetse n'ibindi.

Abantu benshi bari mu ihema ry'umweru rifite amabara y'icyatsi, ubururu n'umuhondo kumpande. Nkuko ari amabara aboneka mu ibendera ry'Igihugu. Hagati yabo harimo abategarugori bari kubyina imbyino za kinyarwanda. Bambaye imikenyero y'imyeru n'imyitero y'icyatsi kijimye.

Icyumba kirimo abantu benshi batandukanye biganjemo urubyiruko kiri kuberamo ibirori cyangwa se ubukwe, abo bantu bari kubyina ariko bari kubyina imbyino za gakondo, imwe mu mbyino za gakondo tugira iwacu mu Rwanda harimo: ikinimba, igishakamba ndetse n'ibindi.

U Rwanda rwo hambere rwayoborwaga n'abantu uyu akaba ari umwe mu bami bayoboye u rwanda witwa Mutara wa gatatu Rudahigwam akaba ari kumwe n'umwamikazi Gicanda.

Abasore babiri barebare bahagaze, umwe yambaye isaha ku kaboko ke k'iburyo, aba basore bambaye ibya kinyarwanda, bambaye imyenda yera bakenyeye bijyanye n'umuco wacu wa Kinyarwanda.

Abagabo babiri bari hejuru y'inzu, ifite igisenge cy'amabati atukura, bambaye udupira dusa tw'ubururujuru, icyo bari gukora, bari gutunganya ibyuma bihindura imirasire y'izuba mo umuriro w'amashanyarazi, bizwi nka pano soreye.

Abagabo batatu, bari hejuru y'inzu, ifite igisenge gisakaje amabati y'ubururu. Abo bagabo, bari gutunganya igikoresho gihindura imirasire y'izuba mo amashanyarazi, cyizwi nka pano soleye.

Inzu iriho icyapa kiga cy'umweru, kizengurutswe n'amabara y'icyatsi ubururu n'umuhondo yo mu ibendera ry'igihugu ndetse kikaba cyanditseho n'amagambo y'umukara ngo, ibiro by'Umurenge wa Rukomo. Imbere y'iyo nzu, hakaba hahagaze abantu batandukanye abagabo n'abagore, bitabiriye ibikorwa bitandukanye bya Leta.

Igikorwa remezo cya leta kizwi nka stade, gifasha abantu mu mikino itandukanye ndetse n'imyidagaduro. Muri byo twavuga ibitaramo by'abahanzi, imikino yo kwiruka, imikino njyarugamba ndetse n'umupira w'amaguru, ariwo unakundwa n'abantu benshi kurusha ibindi.

Inyubako isize amarangi y'umuhondo ndetse n'ibara ry'ivu, hakaba handitseho amagambo yo mu ibara ry'umukara agira ati ibiro by'umudugudu wa Gakoma. Inzugi n'amadirishya by'inyubako ni ubururu, imbere y'i nyubako hakaba hari intebe z'imbaho abaturage bicaraho mu gihe baje kwaka serivisi zitangirwa ku biro by'umudugudu.

Ikibuga k'imyidagaduro cyangwa se sitade. Ahagenewe kwicara abafana, hicaye abantu hose haruzuye. Mu gihe mu kibuga hagati ahakinirwa umupira w'amaguru harimo amakipe abiri ari gukina. Ikipe imwe, yambaye imyenda y'umukara n'umweru mu gihe indi yambaye ibara ry'ubururu ariko ryerurutse. Mu kibuga kandi harimo abasifuzi bambaye imyenda y'imihondo ndetse n'imikara. Hari umwe uri hagati ndetse n'undi uri ku mpande ufite n'ibedera ry'abasifuzi.

Inyubako rusange ngari isakaje amabati y'ubururu ikaba ari inyubako ikoreramo isoko, kuri ubu nta bantu benshi bagaragaramo nta n'ibicuruzwa bigaragaramo byumvikanae ko isoko ritaremye.

Inyubako nyinshi zitoye umurongo kandi zisa, izo nyubako zose zikaba zifite amabati y'umutuku ndetse n'inzugi zikigina, izo nyubako zikaba zubakwa muri gahunda ya leta ijyanye no gutuza abantu hamwe kandi bagatura ku midugudu.

Ibyapa bibiribiri biri ku mupaka utandukanya u Rwanda na Uganda, kimwe muri ibyo byapa kiri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru cyanditseho amagambo agira ati urugendo ruhire mu ndimi zitandukanye, mu gihe ikindi cyapa kiri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umweru kerekana ko ukomeje werekeza i Bugande.

Icyapa cy'umweru gifite amabara y'ibendera ry'igihugu ku mpande ndetse n'ikirangantego k'igihugu, kikaba kigaragaza indangagaciro ndetse na kirazira z'abaturage bo mu Mudugudu wa Kinihira Akagari ka Barija Umurenge wa Nyagatare Akagari ka Nyagatare, zimwe mu ndangagaciro zabo harimo gukunda igihugu, gukorera ku ntego, gusigasira ibyagezweho no kurandura ingengabitekerezo.

Icyapa cyo ku muhanda kiri mu ibara ry'umweru. cyanditseho n'ibara ry'umukara, inyuguti ena cumi na gatatu sata. Kikaba ari icyapa kiyobora abantu, mu muhanda ujya mu duce runaka.

Abaturage batandukanye, abagabo n'abagore bari mu gikorwa cy'umuganda. Abo baturage bifatanyije hamwe n'inzego z'umutekano zaba Polisi ,Abasirikare ndetse na Dasso bose bari gufataniyiriza hamwe mu kwiyubakira igihugu.

Umugore ukora mu nzego z'umutekano mu ishami rya polisi. Akaba afite inyenyeri ebyiri ku rutugu rwe. Ku myenda yambaye, hariho ko izina rye ari Uwibambe. Yicaye mu biro, imbere ye hari mudasobwa. Afite ikaramu mu ntoki ndetse yicaye iruhande rwe harambitse telefone.

Abantu batandukanye bagera nko muri cumi na batanu muri bo abenshi biganjemo bambaye udupira tw'amaboko magufi tw'icyatsi cyijimye turimo amagambo yanditse amanutse y'umweru ndetse n'ingofero z'umukara nazo zditseho n'amagambo y'umweru, bakaba bafite inka imbere yabo ubona ko inanutse bimeze nk'aho bagiye kuyiha umuntu muri gahunda ya Girinka Munyarwanda.

Abantu benshi cyane batandukanye, muri bo higanjemo abagabo, harimo ndetse n'abashinzwe umutekano w'abo basirikare ndetse n'abapolisi bateruye amabuye bakaba bari mu muganda wo kwiyubakira igihugu cyababyaye.

Abakobwa bakiri bato bari mu kibuga cy'umupira w'amaguru gikoze neza mu buryo bugezweho. ikipe imwe yambaye imyenda y'umutuku irimo amabara y'umweru, mu gihe indi nayo yambaye imyenda y'ubururu bwijimye n'ifite amabara y'umweru.

Abakobwa bakiri bato bari mu kibuga cy'umupira w'amaguru, abakobwa ni ikipe yambaye imyenda amakabutura ndetse n'imipira yiganjemo ubururu, hejuru mu dupira twabo harimo andi mabara y'icyayi bakaba bari kwishyushya kugira ngo batangire umukino.

Ikibuga cy'imikino ndetse n'imyidagaduro aha tureba ni ahicara abantu baba baje gukurikirana imikino ndetse n'imyidagaduro iri kubera kuri iki kibuga, kuri ubu hicaye abantu batari benshi kuko hari imyanya myinshi iticawemo n'abantu, ubwitabire bw'abantu baje gukurikirana imikino n'imyidagaduro bigaragaza urukundo abantu bakunda iyo mikino cyangwa se urukundo bakunda abari kuyikina.

abantu benshi bitabiriye igikorwa cya siporo gituma bagira ubuzima bwiza, bari gukora siporo zituma umugongo ukomera ndetse n'inda, inyuma y'abo bantu hari ikibuga gikinirwaho umupira w'maguru, nacyo harimo abandi bantu.

Ikibuga cy'umupira wamaguru, mu kibuga hagati hagaragaramo abagabo batatu bambaye imyenda isa yubururu bwijimye ndetse n'ubururu bwerurutse, inyuma yabo hari undi mugabo nawe wambaye imyenda y'abasifuzi ya oranje ndetse n'umukara ufite n'ibendera ry'abasifuzi ry'umuhondo mu ntoki, hino gato hari undi mwana umeze nk'uri kwiwitegereza ibyo bari gukora.

Siporo mu kibuga cy'umupira w'amaguru, muri icyo kibuga ari kugaragaramo amakipe abiri atandukanye, ikipe imwe yambaye imyenda y'umuhondo irimo amabara y'umukara, mu gihe indi kipe ubona ko bimaze gukina cyangwag se bigiye gukina yambaye imyenda y'ubururu bwijimye irimo n'amabara y'ubururu bwerurutse cyangwa se icyo twita ubururujuru, siporro ni kimwe mu bintu leta yacu iri gushyiramo imbaraga cyane kuko bamaze gusanga ikenewe mu buzima bwacu ndetse ishobora kuba ahantu heza ishobora gukura amafaranga.

Abasore bakiri bato bari mu kibuga cy'umupira w'amaguru, muri bo hakaba hari abambaye imyambaro y'ikipe yabo yiganjemo amabara y'ubururu ifite n'andi y'icyatsi, bakaba bari mu mukino hagati.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru. Muri icyo kibuga harimo ikipe yambaye imyenda y'umuhondo ifitemo amabara y'icyatsi. Iruhande rwabo hari icyapa cyanditseho ngo amarushanwa y'Umurenge Kagame Cup, bibiri na makumyabiri na kane-bibiri na makumyabiri na gatanu. Imbere yabo hari undi mugabo wambaye imyenda y'imikara hari ibyo ari kubabwira.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru. Muri icyo kibuga, haragaragaramo amakipe abiri atandukanye. Ikipe imwe yambaye imyenda yiganjemo ubururu bwerurutse, ndetse n'ibara ry'umukara ahagana ku ntugu zabo. Mu gihe indi ikipe yo yambaye imipira y'imyeru ndetse hasi bambaye amakabutura ya orange.

Ikipe y'umupira w'amaguru iri gufata ifoto mbere yuko itangira umukino. Iyo kipe abakinnyi b'imbere mukibuga bambaye imyenda y'imihondo, irimo amabara y'umukara. Mugihe nyezamu we, yambaye imyenda y'icyatsi irimo amabara y'umuhondo ndetse n'uturindantoki. Iyo kipe kandi, iri kumwe n'undi mubyeyi kuruhande wambaye agapira k'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo, ku ruhande rw'uwo muhanda hari akayira kagenewe abanyamaguru bagenderamo, ku ruhande kandi hari amatara amurikira abagenda muri uwo muhanda mu gihe bwije kugira ngo bagende umutekano, ukaba ari muhanda uca mu isantere.

Icyapa cy'umweru kigaragaza ko ukomeje imbere muri metero ijana na mirongo ine, wagera ku ngoro y'ubutabera, urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare. Kuri icyo cyapa hariho ikirangantego ndetse n'igishushanyo cy'ibendera ry'i Gihugu.

Umuhanda cyangwa se inzira yo mu cyaro. Umuhanda urimo amabuye menshi ndetse n'ibitaka, bigaragara ko ukunda kunyurwamo cyane n'amagare ndetse n'amamoto, kuko aribyo bikunda kugenda cyane cyane mu cyaro.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo muri uyu muhanda wagira ngo haratose haguyemo imvura, muri uwo muhanda kandi harimo umugabo uri kugenda kuri moto wambaye imyenda y'imikara mu kerekezo ari kujyamo imbere ye hari abandi bantu babiri bari kugenda mu ruhande rw'abanyamaguru bari kugenda mu kerekezo kimwe.